Icyapa kiri hafi y'akazu bigaragara ko ari akazu batangiramo serivisi z'itumanaho Airtel ndetse na Tigo ndetse na MTN aho abantu batatu baje bagana uwushinzwe izo serivisi.

Ibikorwa byinshi byegerejwe abaturage cyane cyane iby'itumanaho, aho usanga MTN ifite utuzu twinshi mu masantere ndetse no ku mihanda, bifasha abaturanyi kubona serivisi byihuse.

Ishusho ririho ukwezi ndetse n'igiti byometse ku rukuta rusa ikijuju, munsi yabyo hakaba hari ameza ndetse n'intebe, byateganyirijwe abantu ku byicaraho, byose bikaba biri impande y'urugi rusa umuhondo.

Imbuto zitandukanye harimo imyembe, amacunga, indimu ndetse n'ibinyomoro, ni bimwe dushobora gusanga muri botike, aho biba byaregerejwe abaturage kugira ngo bahahe kandi n'uwo mucuruzi abone amaronko.

Umudamu uri gucururiza mu iduka rifite ibintu bitandukanye harimo ji, harimo amazi, harimo imitobe ndetse hakaba harimo n'utundi tuntu dutandukanye abantu bakunda guhaha.

U Rwanda rwateye imbere mu buryo butandukanye ku buryo rusigaye rukoresha gaze, aho gukoresha inkwi n'amakara ndetse rukaba ruri ku isonga mu isuku muri Afurika rukaba ruri no gutera imbere ku isi yose.

Ubucuruzi bwa gaze ni ubucuruzi buri kwitabirwa cyane hirya no hino kubera ko abantu basigaye bayikenera cyane kandi babaye benshi bayikoresha, niyo mpamvu mu midugudu no mu mabutike atandukanye bagomba kuzishyiramo kugira ngo abantu bazibone hafi yabo.

Iminzani yabugenewe ikoresha amabuye y'ibiro, niyo isigaye ikoreshwa mu mabotiki agiye atandukanye, kugira ngo hirindwe ko habaho kwiba, cyangwa kwibwa hagati y'umuguzi n'ugura.

Agasoko kitwa ndaburaye ni agasako usanga gahurirwamo n'abagabo n'abagore akenshi kugira ngo bitabire bataburara cyangwa se babone ibintu hafi.

Imiti itandukanye kandi iri mu mabara atandukanye, aho usanga iri mu macupa y'umutuku, imyeru, iyiri mu macupa ya kacyi ndetse n'ibindi, bigaragara ko bifite intungamubiri zitandukanye, uwajya kubigura atakwibeshya.

Abayobozi bakuru bagiye batandukanye harimo abagore n'abagabo, bakuriye urusengero rwa ADEPR, bavuye mu nama bari gufata ifoto y'urwibutso, aho iyo nama yize ku bintu bigiye bitandukanye byagirira urwo rusengero n'itorero akamaro.

Urusengero runini rufite parikingi nini ifasha imodoka kubona aho zijya bikanafasha abaje gusenga bitwaye bati kugira ngo batishyura aho guparika.

Kwitabira inama zigiye zitandukanye, zitegurwa n'abayobozi, bifasha kumenya amahame umuturage agomba kugenderaho ndetse no kumenya amategeko amugenga kugira ngo atazagwa mu cyaha, atakizi cyangwa atabimenye.

Imitobe y'imbuto itandukanye iri mu mabara atandukanye, iri mu majage abonerana kandi buri jage ifite agasahani imbere yako yasutsemo kandi bikaba bigaragara ko bigiye gushyirwa abantu batandukanye kugira ngo bafate amafunguro.

Igiti kirekire kiri hagati mu busitani bw'inzu igeretse kabiri ifite amasikariya asa umutuku, imbere yayo hakaba hari imodoka kandi ikaba iparitse mu kibuga kinini.

Ni igitanda gishasheho amashuka y'umweru gifite imisego ibiri kikagira n'indi shuka y'umukara, hejuru hakaba hari itara ryiza kandi ku ruhande hakaba hari n'ifoto nziza y'umukara n'umweru kandi ikaba nk'ifite n'umuryango udafite urugi.

Agasantere karimo abantu benshi bigaragara ko barimo gucururizamo ibintu bitandukanye cyane cyane imbuto, bikaba bifasha abaturage bahatuye kutajya mu masoko ya kure ariko bikanabafasha kugira ngo bamwe babone amaronko.

Umudamu uhagaze mu isoko rinini bigaragara ko acururiza mu ibase kandi akaba ari umuzunguzayi ibintu bitemewe mu Rwanda kuko bigaragaza ko Igihugu kitateye imbere kandi tubizi ko kiri mu nzira y'amajyambere.

Agataro ni igikorwa cy'ubucuruzi gikorwa n'abantu batandukanye aho bafata agataro bakikoreraho ibintu bigiye bitandukanye bakajyana mu makaritdiye y'ahantu runaka kugira ngo babone amaronko.

Umumotari uri ku ipikipiki itatse neza amabara menshi, akaba yambaye ijire isa umuhondo, akaba afite kasike isa umuhondo n'iyo yahaye umugenzi akaba isa umuhondo, uwo mugenzi akaba amujyanye aho yamusabye.